Icyumba kigari kirimo abantu benshi bari mu nama bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika ndetse ku meza hariho igitambaro cy'umuhondo, hateretseho amacupa y'amazi.

Umusore wizihiwe cyane uri kuganiriza imbaga nyamwinshi imuteze amatwi, afite indangururamajwi mu ntoki ndetse inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ariko ibara rinini ryiganje kuri icyo cyapa ni ubururu.

Umugabo ufite indangururamajwi, wambaye ishati ya kacyi yatebeje, yambaye n'ipantaro y'umukara n'umukandara w'umukara. Hari abantu benshi bahagaze imbere ye ndetse imbere ku cyapa hari amagambo yanditseho Imbuto foundation.

Abantu benshi bicaye mu ntebe, ni abagabo n'abagore barangamiye mu cyerekezo kimwe bigaragara ko bari ahantu mu nama cyangwa se bafite amahugurwa bitabiriye, ku ngingo runaka.

Abagore babiri bahagaze ku gitambaro cy'umweru, umwe yambaye imikenyero, afiteti ikaye mu ntoki na terefone, undi yambaye ikanzu, afite ikayi n'indangururamajwi.

Icyumba kigali kirimo abantu benshi batandukanye, ndetse bafite amazi ari mu ducupa. Imbere yabo ahagaze umugore wambaye igitenge afashe indangururamajwi arikuvuga ijambo.

Abasore babiri bahagaze imbere ku rubyiniro, bose bambaye imipira y'umweru, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho rubyiruko menya amateka yawe, hirya gato hari intebe zitenze imbere yabo z'umukara nini cyane, hari imbaga nyamwinshi ibakurikiye.

Umugore uhagaze imbere ari kuvugira mu ndangururamajwi, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo menshi cyane atandukanye, agaragara cyane ni ayanditse mu ibara ry'umweru avuga ati: "Bikorere mu Isibo."

Icyumba kinini kiri kuberamo inama kicayemo abantu benshi cyane bamwe abenshi abicaye imbere hari amacupa arambitse imbere ku meza arimo amazi ndetse n'arimo ibyo kunywa ndetse hari n'abandi bicaye inyuma badafite ibyo kunywa.

Abantu benshi bicaye harimo abagore n'abagabo, bari mu nyubako. Hari umugore umwe wambaye amarineti ndetse akaba yambaye ishati, ikoze mu gitenge irimo amabara menshi atandukanye.

Abayobozi benshi batandukanye ndetse n'abashinzwe umutekano bari mu nama buri wese yicaye areba mugenzi we, hari amacupa y'amazi abateretse imbere kugira ngo ugize inyota aze kunywaho ndetse hari n'indabyo ziteretse ku meza.

Ababyinnyi b'abakobwa bateze amaboko nk'inyambo bambaye imyitero y'umukara ndetse n'imikenyero y'imituku. Barabyina bose ibintu bimwe bigaragara ko batojwe. Hakaba n'abandi bahungu babiri bafite ingabo n'icumu iruhande rwabo.

Abasore b'abanyarwanda bafite amacumu mu ntoki ndetse n'ingabo bambaye imyenda ndetse biteguye kubyina mu kinyarwanda nibyo twita intore, bari ahantu mu kibuga hisanzuye ndetse hari n'ibiti byinshi bitanga amahumbezi.

Mu inyubako ngari ifite icyumba kigari kinini cyane harimo kuberamo imyidagaduro, abakobwa babiri bari kuririmba ndetse hari n'abacuranzi batatu bari hejuru bari kubacurangira.

Inyubako yubatse mu buryo bwa gakondo bwa kinyarwanda, ni ikigonyi kizitijwe cyangwag se gikotiriwe n'inyubako n'uruzitiro rurimo ibibingo, bigaragara ko ari inzu ndangamurage y'u Rwanda.

Mu cyumba kiberamo myidagaduro harimo uwakinnye ari umwami ndetse mu mpande ze zombi harimo intore zifite amacumu n'ingabo. Uruhande rumwe rwicayemo abakobwa batatu ndetse n'urundi rwicayemo abagore batatu.

Intore; itsinda ry'ababyinnyi bambaye impuzankano barabyina bizihiwe ni ahantu mu birori abandi bari inyuma bari kubaririmbira banakoma amashyi naho abandi imbaga nyamwinshi baricaye babitegereza.

Intore z'ababyinnyi zambaye imikenyero isa. Hari n'umukaraza uvuza ingoma, hari n'ufite indangururamajwi mu ntoki. Yewe si umwe bigaragare ko bari kuririmba ariko abari ku rubyiniro bo ntibagaragara.

Ikintu gitoboye gifite umwenge uhinguka kuru rundi ruhande, kibaje neza, kimeze nk'ihembe ry'inka ndetse ushobora kugikoresha hanyuramo amazi kuko kimeze nk'igitembo.

Intore zambaye imyitero y'imyero, ndetse n'abakobwa bari kumwe nabo, bambaye imikenyero y'imyeru, bo hari bambaye imikenyero y'umukara bari kubyina bateze amaboko nkuko mu muco wa kinyarwanda babibyina.

Umugore uteze agatambaro mu mutwe ndetse afitanye n'umwitero w'umweru, ari kubyina ateze amaboko. Arimo kumwenyuramo, dore ko avuga ko iyo umuntu abyina aseka aribwo biba bijyanye. Ndetse imbere ye hicaye abantu, bari kumwitegereza bareba ukuntu abyina.

Inyubako nini cyane isakaje amabati atukura, hejuru y'iyo nyubako hariho umurasire w'izuba bigaragara ko bakoresha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, hakurya yaho hari umusozi utuyeho abantu ndetse hariho n'ibiti by'amashyamba.

Igishanga kinini cyane, hakurya hari imisozi yitaruye iriho amashyamba ariko hagati harimo ipironi rirerire cyane ririho insinga z'amashanyarazi.

Umugabo wambaye ijiri ndetse n'ishati y'amaboko maremare, irimo imirongo inyuranyuranamo; ari mu nyubako aho ari kugenda yerekana buri mfunguzo zigize ahantu hatandukanye, babika ibintu bitandukanye.

Umwirabura n'umuzungu bambaye ingofero z'ubwubatsi ndetse bambaye imyenda y'imihondo, umwe arimo aratunga ku nyubako ndetse bafite mudasobwa mu ntoki bari kureberaho, bigaragara ko barimo kwiga umushinga w'inyubako bari kubaka.

Ipironi ririho insinga nyinshi zitandukanye zijya mu byerekezo bitandukanye, rifite umunara muremure ndetse rikagira n'aho insinga zica, n'aho ziba zifashe.

Akamashini kazwiho ku izina rya mubazi. Kabara umuriro w'amashanyarazi, kari kwaka itara ry'umutuku ndetse mu kirahure imbere handitsemo imibare zeru zeru rimwe karindwi gatanu.

Mu nyubako harimo akabati kagiye kariho amabendera y'ibihugu bitandukanye kandi habitsemo amakuru akenewe.

Mu ruganda rutunganyirizwamo insinga ndetse n'umuriro w'amashanyarazi, urabona ko hari insinga nyinshi zitandukanye zigenda zinyuranamo mu mapironi atandukanye, hakaba hari n'ibizeru utamenya ikintu bikora.

Inyubako nini cyane ifite igipangu hanze hari icyapa, imbere imbere y'iyo nzu hateye igiti kinini cyane nyamara iyo usohotse kuri iyo nzu uhita ugera ku muhanda munini wa kaburimbo.

Umusozi uriho ibiti byinshi cyane ndetse hakaba n'ipironi ritanga amashanyarazi, ahantu henshi hatandukanye, rinyuraho insinga zijya mu byerekezo byinshi ndetse hari n'amatafari atondetse iruhande rw'iryopironi.

Imashini nyinshi zitanga umuriro, mu byerekezo bitandukanye ndetse hakaba n'inyubako hafi y'izo mashini, hari ikirere gifite ibicu by'umweru n'umukara bivanze ndetse n'ubururu, bigaragara iyo imvura igiye kugwa.

Inyubako ziri ahantu hitaruye hejuru ku musozi, hari n'ibiti by'amoko atandukanye bifite amabara atandukanye, hakaba n'ipiloni zicaho insinga zijya mu byerekezo bitandukanye, hari n'umukindo hafi y'izo nzu.

Icyumba basuzumiramo ko nta nkongi y'amashanyarazi yabayeho, harimo amasinga menshi cyane, hahagazemo umuntu afite akuma gapima inkongi ari gusuzuma ko nta kibazo cyabayeho.

Abagabo bambaye amajire asa, bambaye n'ibikasike by'umweru. Bose bambaye udupfukamunwa bigaragare ko ari abakozi bakora ahantu hamwe. Inyuma yaho hari inyubako zitandukanye.

Abakinnyi benshi bari mu kibuga bari kugenda biruka bajya gutsinda ndetse nabo bari gukina na bo bari kwiruka inyuma yabo, hari abafana benshi bicaye ahabugenewe ndetse ubona ko umukino washyushye cyane kuko bafite murare.

Ikibuga cy'umupira kimwe kigezweho, kiba kirimo tapi, amazamu ndetse ku ruhande hakaba n'umuhanda ukizengurutse ufite amabara meza, kikagira aho abafana bicara baza kureba umupira.

Icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo agiye atandukanye Repubulika y'u Rwanda, Intara y'Uburengerazuba, Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare hariho ndetse indangagaciro ndetse na kirazira.

Inyubako zitageretse ndetse bigaragara ko ari kwa muganga, hari intebe ziteye hanze ku ibaraza, hicaye abantu bategereje ko babaha serivisi ndetse hari n'utuyira dukikijwe n'indabyo hakaba n'ibiti hafi y'izo,

Inyubako yubatse ahantu ku musozi, ikaba ari inzu nyinshi ziteganye ku murongo. Zisakaje amabati atukura ndetse zifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umukara zose hamwe.

Inyubako ikorerwamo isuzumiro ni hahandi bafatira ibizamini ndetse hari imodoka iparitse iruhande rwayo, hakaba n'ubusitani hafi y'iyo nyubako kuko yegereye umuhanda.

Umuhanda munini cyane wisanzuye ugana ku nyubako ziri imbere y'wo muhanda, zimeze nk'inyubako z'uruganda, hirya y'uwo muhanda hari ubusitani buhinnzemo indabyo nyinshi z'amabara meza.

Abagabo batatu bagiye kwinjira ahantu, kumwe bataha ahantu hatari hasanzwe hakorerwa ikintu runaka. Bari gukata umugozi ubinjiza aho hantu, hari ibiti ndetse haratatse neza, bigaragara ko hari ikirori.

Umuhanda munini cyane utsindagiye ariko utari uwa kaburimbo, uragana ahantu mu mudugudu w'icyitegererezo ku musozi hakurya ubona ko hari amashyamba bakayatema, hose hari kugenda hatura abantu.

Inyubako nini cyane bigaragara ko ari iy'ibitaro, isakaje amabati ari mu ibara ry'umutuku, hanze y'iyo nyubako haparitse imodoka, moto ndetse hahagaze n'abandi bantu bigaragara ko bavuye gusaba serivisi aho.

Inyubako itari yuzura. Ni inyubako yubakishije amatafari matoya. Iri ku isakariro barimaze kuyisakara igihandade kimwe, hasigaye ikindi. Bari ku isakarisha amabati asize irangi ry'ubururu.

Inzu yubatse ahantu hejuru hirengeye, bigaragara ko ari ibiro by'icyicaro runaka, inyuma y'iyo nyubako hari ikigega cy'umukara gifata amazi y'imvura, iyo nzu bayisize irange ry'ubururu.

Ikiraro kiriho ibyuma bisize irangi ry'icyatsi, hakurya hari imodoka zihahagaze ndetse n'abantu benshi. Ni ikiraro mu by'ukuri ubona ko bari kucyagura hasi ndetse no hakurya hari imirimo yo cyagura kugira ngo kige gicaho ibinyabiziga byinshi.

Inyubako ziteganye hagati yazo hacamo umuhanda munini bigaragare ko ari inyubako z'amashuri, imbere hariyo umuntu uri guturuka yo bigaragara ko ari umuhanda nyabagendwa.

Mu muhanda ndetse ahantu hari ikiraro cy'ibyuma ubona ko gikomeye cyane kuko biriho inshuro ebyiri, hariho kunyuraho abantu benshi ndetse bamwe muri bo bambaye amajire abandi bambaye ingofero z'akazi.

Inyubako zubatse muburyo bumwe, zifite amabati y'umutuku, zubatse ahantu hamwe ndetse bigaragara ko ari hatoya, hafi y'aho hari ibyatsi ndetse hari n'imisozi iteyeho ibiti bitandukanye.

Ikibuga kisanzuye ndetse kirimo amapave. Harimo abantu benshi bicaye hafi yaho ndetse hari inyubako nyinshi zifite amabati y'ubururu n'ibyuma biri hagati yazo.

Icyapa kinini ariko kigaragara ko gishaje bitewe nuko ibyo banditseho biri kugenda bisibama. Cyanditseho Umurenge wa Rukoma, Akagari ka Gashenyi. Ni icyapa kiriho zimwe mu ndangagaciro, hashushanyijeho n'Ibendera ry'Igihugu.

Inyinshi ziri ahantu hamwe ndetse hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, hakaba n'insinga nyinshi zigende ku mapoto yo ku muhanda abari itara rimurikira abanyura muri uwo muhanda, hari imodoka nto, imwe itwara imizigo, hakaba n'ipironi ricaho izo nsinga.

Inyubako nini cyane bigaragara ko ikuze, iriho amagambo ayanditseho hejuru bigaragara ko ari Ibiro by'Akagari ka Cyembogo, ni inyubako isakaje amabati asize irangi ry'umutuku.

Mu muhanda w'igitaka harimo ibinyabiziga ndetse harimo imodoka imwe nini itwara abantu, ku ruhande hari indabyo nyinshi zimaze gukura ndetse n'ipoto ririho amatara, hakaba n'imikindo myinshi iteye ku ku murongo.

Umuhanda munini wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka imwe, iri mu ibara ry'umutuku imbere yayo hari umuntu uri kugenda mu muhanda, uwo muhanda uriho amatara ndetse hirya yaho hari inyubako zubatse ku murongo.

Abantu bicaye mu kidari, ni ahantu heza hateguye cyane, imbere hari umusirikare wambaye impuzankano ya gisirikare, hari n'abapolisi n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, koti ry'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara, yambaye amadarubindi y'umukara ndetse ni imibiri bombi. Inyubako barimo, hari icyapa cyanditseho ngo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Mu ihema harimo abantu batandukanye ndetse harimo n'inzego z'umutekano, nka polisi, abasirikare ndetse bicaye imbere ku myanya y'imbere ubona ko habaye ikintu runaka bari kubwirwa.

Ihuriro ry'abantu benshi bahagaze harimo n'abo mu nzego z'umutekano. Hari abicaye hasi ndetse hari n'umuntu w'umukorerabushake wambaye ijile ya Croix Rouge ubahagaze imbere, bose barangamiye ahantu hamwe.

Mu kibuga kigari harimo abantu benshi batandukanye: abana, abagore, abagabo ndetse n'abandi bakuze kandi hari n'amahema bahubatse kugira ngo abantu bugamemo izuba, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'ubururu ndetse hari na bafure.

Abantu bahagaze mu kibuga harimo umusirikare umwe ndetse hari n'undi mugore, bose bashoreye inka, bose bari gushaka kuyikoraho.

Abantu bagiye gushyingura umuntu witabye imana, imbere yabo hari umugabo utwaye ifoto y'uwitabye Imana atwaye n'ururabo mu ntoki, inyuma ye hari abantu batwaye isanduku bambaye imyenda y'umukara.

Abantu benshi batandukanye ndetse hari indabyo nyinshi zitandukanye, hakaba n'ibiti binini, hahagazemo abantu, hari n'inyubako, bigaragara ko ari mu kigo runaka kuko gifite n'uruzitiro rw'ibyuma.

Umugabo wambaye umupira w'umweru uciye amaboko, afashe indangururamajwi mu ntoki, uri kubona ko afite abantu imbaga ari kubwira, yambaye n'ingofero y'umukara.

Icyumba kinini kisanzuye kiri kuberamo inama, kirimo abantu b'ingeri zose zitandukanye. Harimo abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare impuzankano ndetse n'abapolisi bambaye impuzankano ya gipolisi.

Abagabo babiri bafite urupapuro mu ntoki ndetse hari n'abagore babiri bakina imikinyero isa, bari iruhande rwabo, hafi aho, hari ihema rihagazemo umuntu ufite ijambo. Hakaba n'imodoka, hafi y'icyo kibuga.

Mu muhanda wa kaburimbo hari icyapa kirimo umubare mirongo itandatu, bishatse kuvuga umuvuduko ibinyabiziga biba bigomba kugenderaho, ndetse hari ibyatsi hejuru ku mukingo, hakaba n'ibiti bitanga umwuka mwiza ndetse hari n'abandi bari ku igare.

Amapoto maremare cyane y'amashanyarazi, hariho insinga ndetse hirya yaho hari umuhanda ndetse hari n'inzu nini cyane, isakaje amabati atukura.

Ku marembo ya gare ya Nyamagabe, hahagaze moto ndetse n'abantu benshi, bigaragara ko bagiye gutega, hari inzugi bakingisha ndetse hakaba, hahagaze n'umuntu ushinzwe umutekano w'ako gace.

Umugabo uri kugenda mu kayira, yikoreye amabuye abiri. Inyuma ye hari umwana ndetse n'umugore. Hirya hari indabyo ndetse hari n'insina zihahinze.

Abantu bari mu kubumba bigaragara ko bari muri siporo, babiri bari guhererekanya icyondo. Hari aho bashyira icyondo mbere yuko bagitunganya bizwi ku izina ry'iforomo kugira ngo baze kugiyikuramo cyabaye itafari, hasigaye kucyumisha gusa.

Abantu benshi bicaye ahantu munsi y'igiti, hateguye neza bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza, abandi bicaye hasi mu byatsi, biragaragara ko bari kuganira.

Abantu benshi bari mu kibuga, ahantu hitaruye hari n'amahema ndetse n'icyapa cyanditseho Imbuto Foundation, hari n'inyubako nyinshi bigaragara ko habaye ibirori.

Mu busitani, hari abagabo batandukanye ndetse harimo umupolisi n'umusirikare. Ku meza yabo hariho indangururamajwi na telefoni. Bicaye ahantu mu busitani.

Ikibuga kinini cyane gikinirwamo umupira w'amaguru. Harimo abantu benshi ndetse no ku ruhande hari abantu benshi bakizengurutse bari kureba umupira uri gukinirwamo.

Abantu benshi, abaturage bicaye hamwe, bigaragara ko baje mu nama, bicaye ahantu munsi y'igiti, barangamiye mu cyerekezo kimwe, bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kubigisha.

Abantu benshi bahagaze mu kibuga, abagabo n'abagore, harimo umugore umwe wambaye ijiri bigaragara ko ari umukoranabushake, hari n'undi mugabo wambaye ingofero y'umukara we wambaye umupira w'ubururu wanditseho amagambo y'umweru mubi bitugu.

Abantu be bicaye ahantu mu byatsi , ndetse hari n'amagare akunda gutwarwa n'ahantu haterera, ndetse hari ibiti bicaye munsi , bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi , biragaragara ko ari abayobozi bari mu nama, harimo umugore ufite indangururamajwi.

Abantu benshi bahagaze harimo abicaye ariko kandi imbere yabo hahagaze umugabo wambaye agapira gaciye amaboko kariho ifoto ya Perezida w'Igihugu cy'u Rwanda.

Abahinzi benshi batandukanye bari ku murongo. Bari guhingira icyarimwe ni abagore n'abagabo. Inyuma yabo hari ishyamba rinini uri kubona ko bari guhinga ahantu hari hamaze igihe hari igihuru hadahingwa.

Abagabo bari kugenda mu kibuga gikinirwamo umupira w'amaguru harimo umusirikare wambaye impuzankano ndetse harimo n'abandi bambaye ibisanzwe ariko by'umwihariko mu kibuga nta mukino uri kuberamo.

Abana b'urubyiruko bicaye mu ntebe zimeze nk'izo ku kibuga cy'umupira w'amaguru, baritegereza bumiwe ndetse harimo n'abandi bishimye cyane, bigaragara ko amakipe bafana bamwe yatsinze abandi aratsindwa.

Mu kibuga cy'umupira harimo abakinnyi b'amakipe atandukanye bari kugenda biruka kuri baro ndetse uwambaye amajezi y'umukara agiye gutsinda kuko yegereye izamu.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko, bari ku murongo bose. Bigaragara ko bari mu myitozo ngorora mubiri ariko kandi imbere ya bo hari umuntu uri kubatoza.

Mu kibuga harimo abakinnyi bamwe muri bo bambaye amajezi y'ubururu ndetse n'amasogisi y'umweru, hari n'abambaye ay'icyatsi n'imipira y'umutuku, bari mu kibuga barimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu benshi bari muri siporo, mu muhanda bari kwiruka, bose bambaye imyenda yabugenewe, urabona ko bafite akanyamuneza, bari kugenda imbere yabo hari ubayoboye, ndetse hakaba ibiti byinshi bikoze nka pariki.

Abantu benshi bahagaze mu kibuga ku murongo. Imbere yabo harahagaze umutoza bameze nk'abari kwitoza imbyino runaka, bose bambaye imyenda yifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo urimo imodoka inyuma yayo hari igare, inyuma y'iryo gare hari ikivunge cy'abantu benshi cyane ubona ko bari muri mucaka, bari kuza bagana mu cyerekezo kimwe n'iyo modoka.

Umusore bigaragara ko ari umukinnyi, yambaye impuzankano yifashishwa mu gihe k'imyitozo ngororamubiri, ari mu kibuga wenyine ndetse no mu izamu nta muzamu urimo, hirya y'ikibuga hari inyubako nini y'urusengero.

Umusore uhagaze mu kibuga hagati wambaye inkweto zo gukinana n'amasogisi maremare, bigaragara ko ari umuzamu ukinira ikipe runaka, inyuma ye hahagaze abandi bakinnyi bigaragara ko bari kwitegura umukino bagiye gukina.

Abantu benshi bari mu myitozo ngororamubiri, biragaragara ko ari abakinnyi b'abasore bose bambaye imyenda isa bigaragara ko bakina no mu ikipe imwe, hirya ku ruhande hari undi musore ubitegereje arahagaze bo bari kwiruka.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo y'umuhondo, ndetse kuruhande hagati y'aho abanyamaguru baca n'umuhanda, hari utuyira twabugenewe dusize amarangi y'ubururu n'umweru.

Mu muhanda hagati harimo ibara ry'umuhondo ndetse ku ruhande hasize irangi ry'umukara ndetse n'irisa n'ivu, hakaba harimo moto imwe ndetse kuhande rw'umuhanda hari ibiti ndetse n'ibyatsi byinshi byiza.

Muri kaburimbo harimo imirongo y'umweru ndetse ikaba ifite ibara ry'umukara, ku ruhande aho abanyamaguru bagendera, hari umuyonzi utwaye imifuka ibiri iremereye ndetse akaba arimo kuyicunga yazamuye umupira we.

Ikibuga kinini cyane kisanzuye gikorerwamo ikizamini kijyanye no gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga, haparitsemo imodoka ebyiri mu makona bivuze ko hari abari kwiga.

Ibiti birebire cyane, ndetse harimo n'ibifite indabyo byatangiye kweza. Bikikije umuhanda hari n'amatara menshi. Ndetse hari n'insinga zirimo kugenda zitambuka hafi aho ngaho ibiti.